Icyumba cy'inama kirimo abantu bari gukora ikizami bakuru harimo; abagore ndetse n'abagabo hakaba harimo n'urubyiruko, hasi hashashemo amakaro y'umweru ndetse hirya hari n'amarido ari mu idirishya.

Umugabo urimo uraganiriza abantu yambaye ishati y'umweru bafite za mudasobwa ku meza hateretse uducupa twamazi bakaba bari mu cyumba kinini cyane kirimo kirakamo amatara ndetse hari abantu benshi.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye ishati irimo imirongo arimo, aragezaho abantu imbwirwaruhame bicaye bamuteze amatwi, harimo abagore n'abakobwa ndetse n'urubyiruko.

Abagore bari mu nama; hari abanyacyubahiro bicaye imbere ku ntebe nziza; bakaba bafite telefoni zigendanwa; uko bigaragara ni abayobozi b'iri huriro ry'abagore.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu, urimo urandika mu ikaye, yicaye ku ntebe y'umukara, hirya ye hari umugabo wambaye ikote, ufite agacupa k'amazi imbere ye.

Abagabo bambaye imyenda y'ubururu b'abakozi ba leta umwe yambaye amadarubindi akaba afite terefone igendanwa mu ntoki, bakaba bicaye bitegereza ahantu runaka kandi bicaye muri sitade mu ntebe z'umweru.

Umugore wambaye ikanzu irimo indabo z'umutuku afite indangurumajwi mu ntoki akaba yambaye amadarubindi ari ahantu inyuma ye hari icyapa kinini cyane gisa ubururu cyanditseho ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Abayobozi bari mu biro by'inama aho barimo baravugana ku mishinga yo kuyobora iki gihugu imbere yabo hari uducupa tw'uruganda rw'inyange turimo umutobe wa pome ndetse n'amazi bakaba bambaye n'amakote.

Abagabo bari mu nama bambaye amakote y'umukara, hirya hari n'abagore bambaye amakanzu harimo umuhondo ndetse na oranje, bakaba biteretse amazi ndetse n'imitobe y'inyange.

Abantu bari mu nama bambaye imyenda isa nk'ironji, hirya hari n'umugore wambaye umupira w'umweru ufite imisatsi itari iyakaremano, bafite nama sakoshi bicaye mugisharagati cy'umweru, hasi yabo hari ubusitani bw'icyatsi.

Abantu bari mu inama harimo uwambaye ikote wicaye ku intebe y'umukara, hari n'abagore bicaye inyuma bambaye imyenda isa nk'ironji ndetse hirya hari ifoto iriho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Nyakubahwa Polo Kagame.

Mudasobwa ndetse n'abantu benshi bari kuzikoresha mu biro cyangwa mu nama, harimo umugabo wambaye ingofero y'abisilamu n'ishati y'umweru.

Inzu irimo abantu benshi barimo barareba imbere y'umujyi wa kigali , hakaba hari n'ibyapa bisa ubururu ,icyatsi ,imbere hari abayobozi barimo barabaha ikiganiro.

Uruhare rw'umuturage mu igenamigambi, ingengo y'imari n'imihigo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu bibiri na makubiri na gatatu. Umujyi wa Kigali repubulika y'uRwanda akaba ari imigambi y'igihugu cyacu iba iri kudutegurirwaba aba ni abayobozi bacu.

Abakozi ba Leta bari mu nama mu cyumba kinini cyane, bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari indangururamajwi zibafasha kumvikana, hakaba hanateretse uducupa tw'amazi.

Abantu bateraniye mu nama benshi cyane muri hoteli ya serena, hakaba hari icyapa inyuma yabo cy'ubururu kiriho ibendera ry' u Rwanda risa ubururu, umuhondo n'icyatsi, bigaragara ko ari inama y'abantutu bashinzwe imikino n'imyidagaduro.

Uyu ni umugabo wambaye amarinete akaba yambaye n'ikote imbere ye hari mudasobwa bigaragara ko bari mu nama hari n'abandi bantu benshi bitegereza imbere yabo ikintu icyo ari cyo cyose.

Umugore ufashe indangururamajwi mu ntoki yambaye igitenge akaba afite n'akitero ku mutwe, hirya ye hari n'abandi bagore bambaye amadarubindi bari kumwitegereza cyane asa nk'uri gutanga imbwirwaruhame ku bantu bateraniye muri iyi nama.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba arimo avuga imbwirwaruhame, yambaye ikanzu y'umuhondo inyuma ye hari icyapa cyanditseho dafisa.

Umugore w'inzobe wicaranye n'umugabo w'umupolisi, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo mu ruganda rw'inyange ndetse n'indangururamajwi ziri imbere yabo, batanga ibitekerezo.

Abagore benshi cyane bari kumwe n'abana babo, bakaba baje mu nama y'akarere kabo, harimo abambaye imipira y'umutuku ndetse n'umweru n'ibitenge.

Inzu irimo abantu bari mu nama benshi cyane bakuze; higanjemo abagabo bambaye amakote ndetse n'umugore uri inyuma wambaye amadarubindi; akaba yambaye ikanzu iri mu ibara ry'umuhondo; iyi nzu nayo ifite ibirahure binini.

Kigali yacu Kigali ikeye, iyi ni inama y'abayobozi b'umujyi wacu bambaye amakote bicaye ku ntebe z'umukara, bafite ameza ya ribuyu ateretseho indangururamajwi bari gukoresha baganira.

Inama irimo abantu batandukanye harimo umugore wambaye ibitenge ndetse hari n'abagabo bambaye amashati bigaragara ko ari abakozi ba leta kandi bakaba barimo barahiga ku bibazo byugarije igihugu.

Abantu b'abanyacyubahiro cyane, bambaye amakote, harimo umukuru w'umujyi wa Kigali uri mu nama, hasi hari umukeka w'ubururu, hirya hari ibyapa bigaragaza ibikorwa baje gukora, bakaba barimo kunywa n'amazi mu ducupa.

Aha ni mu nama irimo abakozi ba leta batandukanye, hakaba harimo umugabo wambaye ikote uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko yari yafashe ijambo arimo arababwira ibitekerezo bye.

Urupapuro rwanditseho RGB akaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza, barimo barerekana bimwe mu bikorwa bagenda bakora mu gihugu cy'u Rwanda.

Mu mujyi wa kigali ahitwa kwa Makuza, hari umuhanda ushashemo amabuye ndetse n'abahisi barimo baragenda, haba murandasi y'ubuntu kandi ushobora no kuhasohokanira n'inshuti zawe mukaba muganira.

Umunara muremure usa umutuku n'umweru, uriho ibintu by'umweru bimeze nk'ibisahani bishinzwe gukwirakwiza ubutumwa, ndetse no kwakira ubutumwa, akaba ari na yo minara ikoreshwa n'amaradiyo.

Urupapuro rwo kuri murandasi ruri kwerekana ingengabihe y'amashuri, rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini, ndetse kikaba kinashinzwe kumenya uko amasomo y'abana ategurwa.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cya Rwanda reveni barimo barerekana ko umuntu azishyura uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu, harimo incamake ndetse n'ibyamufasha kwishyura nta nkomyi.

Uburyo bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ukanda akanyenyeri, umunani, zeru, urwego, ukabasha kwinjira mu buryo bwo kwakira inyemezabuguzi, igihembo cyayo.

Ahantu habugenewe haba murandasi y'ubuntu y'inziramugozi, hakaba hari icyapa kibyerekana cyometse ku rukuta rusizeho irangi risa nk'ivu, hejuru mu gisenge harimo amatara menshi.

Umunara utwara itumanaho rya radiyo na televiziyo ndetse na za telefone igihe uri guhamagara amarezo aca ahangaha hejuru muri ibi bintu bimeze nk'amabase ndetse n'ibindi bimeze nk'amatara nibyo byakira amajwi.

Irushanwa mpuzamahanga ry'imodoka, ryatangiwe ibihembo mu Rwanda, akaba ari muri ya gahunda ya sura u Rwanda, bimwe mu bintu biranga ibyiza by'iki gihugu cyacu.

Umunara w'itumanaho uri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hirya hari ibiti biwukikije kandi hakaba hari n'igipangu gisa ibara ry'umuhondo, ntabwo byemewe kwinjira hano hantu, umunara ushinzwe gutanga amaherezo y'itumanaho rya telefone.

Iri ni iserukiramuco ryabereye mu Rwanda rigaragaza ubuhangange bw'igihugu cyacu, mu kwakira inama ndetse n'ibihembo mpuzamahanga bigenda bitangwa ku bantu b'ibyamamare.

Uburyo bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro bwa fagitire, aho umuntu ayisaba agahabwa ishimwe buri nyuma y'amezi atatu, kandi ni ibintu byiza cyane bituma abacuruzi batiba ikigo cy'igihugu.

Igikorwa gihuza amadini n'amatorero, bakaba bagaragaza ko habura umunsi umwe gusa kugira ngo batangire ibikorwa byabo bari kwamamaza hano.

Ruberwaho amakuru y'ubutaka repubulika y'u Rwanda abo turi bo ni ikigo gishinzwe ubutaka mu Rwanda ukaba wagenda ushaka nko kurambagiza ubutaka wagura ukanyura kuri uru rubuga.

Irembo ni urubuga rwa guverinoma y'u Rwanda rufasha umuntu kuba yagera kuri serivisi zose za leta bitamugoye, aho mbere abajura bifashishaga uru rubuga bagateka umutwe kugira ngo babone amafaranga buri wese asigaye abyikorera.

Uyu ni umunara ushinzwe iby'itumanaho, usize ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, hakaba hari uruzitiro rw'ibyuma, aho bigaragaza ko nta muntu wemerewe kwegera aha hantu.

Inzu iriho ibyapa by'ibigo by'imari, hariho ikigo cya MTN gishinzwe ihererekanya ry'amafaranga ndetse n'itumanaho, hakaba hariho n'ikindi kigo cya banki cy'imari cyanditseho ba na pa na ra ndetse n'iyindi sosiyete yo ku isi yose ishinzwe kohererezanya amafaranga.

Igikorwa cya leta cy'irembo byikorere, ni uburyo bazanye burinda abantu kwirirwa baribwa amafaranga bakorerwa serivisi za leta kandi nabo bashobora kubyikorera kuko ni gahunda y'igihugu, nta muntu n'umwe uhejwe.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cya rwanda reveni; hakaba hariho ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo n'ibirangantego by'iki kigo; barimo baramenyesha abantu ko bagomba kwishyura imisoro.

Ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni kiri kumenyesha abantu ko itariki ya nyuma yo kwishyura ari makumyabiri n'ikenda z'ukwa kabiri mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane.

Urugi rwanditseho Bekayacu akaba ari ikigo cy'imari gishinzwe gutanga amafaranga ndetse no kuyabikira abantu, ahanini ni nk' ishami ritoya aho umuntu ashobora kujya bakamuha izo serivisi z'iyi banki.

Abantu bari mu nama imbere yabo hari mudasobwa nyinshi na telefone ziri ku migozi, hakaba hari umugore uri imbere urimo urabaha ikiganiro ndetse n'ikibaho cy'umweru cyometse ku rukuta rw'umweru n'ibindi birangantego bitandukanye biri ku ruhande.

Rura ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ndetse n'ibinyabiziga, n'imitwari n'imigendekere yabyo mu mihanda. Hakaba handitseho ko ushobora kubahamagara kuri kabiri, kabiri, kabiri, kabiri.

Umukozi w'ikigo gishinzwe gusakaza umuriro w'amashanyarazi mu gihugu, wuriye urwego rurerure cyane aho arimo arakora ipoto ry'amashanyarazi ahuzahuza insinga ngo abantu babone umucyo.

Amapoto maremare cyane; anyuzwaho insinga zigemuye umuriro ahantu mu birometero bya kure, hari ikirere gisa ubururu n'umweru, akaba ari ku manywa mu masaha ya saa cyenda nyuma ya saa sita.

Ipoto y'amashanyarazi rirerire cyane hariho icyapa cy'umuhondo, kiburira abantu kuba bahegera uko iki cyapa cyangwa iri pironi riba rifite umuriro ufite imbaraga nyinshi cyane.

aAbamotari benshi cyane ndetse n'abagenzi bari mu muhanda wa kaburimbo imbere hari ishyamba ririho inzu z'amanegeka ndetse n'ibiti byinshi cyane n'ipironi ry'amashanyarazi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo, ugana ku cyicaro gikuru cya polisi y u Rwanda, hakaba hari imodoka ebyiri z'umweru ziparitse ku cyapa abagenzi bategerererezaho bisi zibajyana Kimironko no muri gare ya Kacyiru.

Ifoto ry'umuriro w'amashanyarazi ririho insinga ndende zigemura umuriro hirya no hino mu baturage, inyuma yaryo hakaba handitseho bonke bare akaba ari akabari.

Umuhanda wa kaburimbo ku mpande hari imbibi zawo ziriho utuntu turiho irange ry'umweru n'umukara ndetse n'inzira y'abanyamaguru ishashemo amabuye, hirya hari ibiti byinshi cyane.

Umunara uri mu ibara ry'umutuku n'umweru hanze hari uruzitiro rugaragaza ko bitemewe kurenga ngo winjiremo uko wabangamira iterambere ry'igihugu hari abantu baba bashaka kwangiza.

Umukozi w'ikigo k'itumanaho cya MTN uri mu mutaka w'umuhondo ari kwakira abakiriya babiri baje bamugana b'abakobwa. Harimo uwambaye agasengeri k'umutuku n'undi wambaye umupira w'umukara akaba arimo arabafasha serivisi zitandukanye.

Icyapa gishyirwa kuri sitasiyo ya esanse kiba kigaragaza ibiciro by'ahantu ritiro ya esanse igeze ndetse hari n'ipoto rimanitseho itara ryo ku ku muhanda, inyuma hari urukuta rw'amabuye, hejuru hari n'igiti cy'avoka.

Ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi hari insinga ziwutwara ndetse n'inzu z'ubucuruzi ziri inyuma, hakaba hari n'inzu y'igorofa iri kubakwa iriho imbaho nyinshi cyane kandi ni ku manywa.

Amapoto abiri ashinzwe kugemura umuriro w'amashanyarazi, hakaba harimo n'icyuma gishinzwe guhindura umuriro kikawugabanya kugira ngo ugere ku baturage, uri ku kigero cyo hasi.

Hari igitanda kiri mu nzu ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu buri kwezi ikaba iherereye Kabeza.

Umukozi w'ikigo cya ewasa, akaba yambaye igisurubeti cy'ubururu, yazamutse ku rwego hejuru, yambaye n'ingofero irinda kuba yagira ikintu gituruka hejuru ngo kimumene umutwe.

Ibyuma bishinzwe kuzana umuriro igihe umuriro ubuze bitateganyijwe, ibi ngibi bihita biwuzana ako kanya nta n'umunota uciyemo, bikaba biri hasi munsi y'inzu.

Iri ni ipirone ry'umuriro w'amashanyarazi riba rishinzwe kunyuzwaho insinga za rutura zifite umuriro ufite imbaraga nyinshi cyane, rikaba riba rigemurira nk'umujyi wa Kigali cyangwa igice kinini cyane cy'igihugu.

Ipoto iriho insinga ikaba imanitseho n'itara ryo ku muhanda, munsi yayo hari igipangu kirekire cy'amatafari ahiye hakaba hariho n'udutara hejuru ku nkingi.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hari ubusitani burimo ipoto rishinzemo itara ryo ku kumuhanda, rikaba rinanyuraho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu mazu y'abaturage.

Ibikorwa by'umuriro w'amashanyarazi ahantu bitunganyirizwa. Hari amapoto maremare ndetse n'ibindi byuma bihindura umuriro w'amashanyarazi, bikawuhindurira imbaraga. Hari n'umugabo urimo urahagendagenda bigaragara ko ari umukozi waho.

Ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi, hari gucaho insinga zitwara uyu muriro hirya no hino mu mpande zitandukanye z'igihugu, hirya hari inzu y'ubucuruzi imeze nk'akabari iteye irangi ry'umuhondo.

Iri ni ipoto ry'amashanyarazi ricaho insinga nyinshi cyane zigemura umuriro mu baturage, hirya yaho hari igiti ndetse n'igisenge cy'inzu.

Uruganda rw'ifarini rwa Azamu, hakaba hari inzu nini iriho irangi ry'umweru n'icyatsi ndetse n'ibikamyo bya rukururana, bishinzwe kugemura ibicuruzwa.

Uruvunge rw'abantu benshi harimo abamotari ndetse n'abagenzi, hirya yaho hari bisi nini cyane ya litico, ikaba yegeranye n'ipiloni rirerire ritwara umuriro w'amashanyarazi impande n'impande z'igihugu.

Umurima urimo igikorwa cya leta cy'umuriro w'amashanyarazi unyuramo, iyo baje kubikunyuza ibi bikorwa iwawe barakugurira bakaguha amafaranga menshi, kuko hano hantu ntabwo haba hemerewe guturwa, kuko haca insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto rirerire cyane ririho imigozi yambukiranya mu birometero byinshi, ikaba iba itwaye umuriro w'amashanyarazi mu byaro ndetse no mu mijyi igiye itandukanye, hari n'ibiti byinshi cyane biyegereye.

Ipoto risa umukara rikaba riri kunyuraho insinga, imbere yaryo hari uruzitiro rw'amabati rufunze ahantu hameze nk'urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara, hirya hari amapoto maremare ariho amatara acanira nijoro, inyuma yayo hari igikuta cy'igipangu cy'amatafari, gisizeho irangi ry'umweru.

Ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi riri kunyuraho insinga hejuru kandi ririho itara ricana ku muhanda, inyuma hari ishyamba rinini cyane ririmo ibihuru n'ibiti, hejuru y'iri shyamba hatuye abantu, hari inyubako nyinshi.

Aha ni ku kigo nderabuzima, hari abaturage benshi, barimo ababyeyi ndetse n'abagabo, harimo abambaye ibitenge bafite telefoni mu ntoki bari kwishyura, aho baba baje gufata imiti nyuma yo kuvurwa.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho bigaragara ko ari nko ku murenge, harimo amakaro ashashagirana hasi, hari n'intebe abantu bicara bategerererejeho igihe bagiye guhabwa serivise.

Igice cya kaburimbo kitarimo ibintu byinshi imbere yaho kure haparitse imodoka y'ivatiri y'umukara kandi ni kumasaha ya kumanywa hari igicu kimeze neza ndetse n'ibiti byinshi biri inyuma mwishyamba.

Inzu y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye; hirya yayo hari umugabo uri kugenda ufite igikapu mu mugongo wambaye imyenda y'umukara; hakaba hari n'umuntu ushinzwe umutekano wegamye ku ivatiri y'umutuku.

Imfungwa ndetse n'abandi bantu baje kwivuza kwa muganga, hakaba hari inzu irimo amatafari ahiye ndetse n'inzugi zisize ibara ry'ivu zirimo ibirahure.

Ubusitani bwiza imbere yabwo hari inyubako imeze nk'amashuri, hakaba hari n'ikirere kirimo umucyo, hirya kuri iyi nyubako hateye amarangi y'umweru.

Umugabo wicaye ku ntebe, bigaragara ko ari kwa muganga, imbere ye hari ubusitani nyuma ye hari umugore ufite ishakoshi urimo uragenda akaba ari ku manywa mu masaha ya nyuma ya saa sita.

Abayobozi bari mu nama muri serena bakaba bicaye harimo abagabo bambaye amakote ndetse n'abagore bambaye amakanzu, inyuma yabo hari urukuta runini cyane rwometseho insakazamashusho izimije.

Mu cyumba cyo kuburaniramo hahagazemo imfungwa yambaye umwenda usa nk'umutuku werurutse cyane, ahagararanye n'abacamanza ndetse n'abamwunganira mu mategeko bamufasha kuburana.

Urupapuro rwerekana imanza ziba zaraburanijwe mu rwanda; ndetse hakaba hariho n'amategeko mpanabyaha; mu gihe umuntu yakoze icyaha ari mu rukiko; iki niyo gazeti bafata bagasoma bamushinja, banamubwira ibihano azafata.

Abagabo babiri basa batandukaniye ku ibara ry'uruhu gusa, umwe ni umupolisi undi ni umunyabyaha wambaye amapingu ugiye gukurikiranwa mu nkiko.

Igororero ririmo imfungwa zambaye imyenda y'amaroza, hirya hari inkuta za metero enye, bari mu gipangu kandi hari senyege zikatana ku muntu wagerageza gutoroka.

Umugore w'igikara, wambaye amadarubindi, afite umusatsi wa karemano, yambaye umupira w'umutuku w'imbere n'agashati k'umweru, agaragara nk'umucamanza cyangwa umwarimu wo muri kaminuza.

Uyu ni umucamanza wambaye ikanzu y'umutuku, mo imbere harimo ishati y'umweru n'umukara, akaba ari inzobe cyane yambaye n'amarinete ndetse n'ingofero.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku na karuvati y'umweru akaba yambaye amadarubindi n'ingofero iciyemo umurongo w'umuhondo, akaba ari umukozi wa guverinoma y'u Rwanda ushinzwe guca imanza.

Umugabo w'umunyabyaha uri ushinjwa mu rukiko akaba ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko ndetse imbere hari abacamanza bari kwandika ibiva mu rubanza bakaba babishyira muri mudasobwa zabo.

Aha ni mu nzu irimo abaturage benshi ndetse n'abayobozi bari imbere bambaye kositimu, hakaba hari n'uducupa turimo ji, amazi. Ku ruhande hari abagabo bafite mudasobwa imbere yabo.

Umubyeyi ufashe ku ibendera ry'igihugu rigizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi, akaba arimo ararahirira u Rwanda ko atazaruhemukira mu nshingano yahawe zo guca imanza.

Uyu ni umugore wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, imbere ye hari uducupa tubiri k'amazi ndetse n'akarimo umutobe bikorwa n'uruganda rw'Inyange ruba i Masaka.

Urupapuro rwanditseho amagambo menshi y'umukara, bigaragara ko handitseho ngo imbaraga zurukiko na polisi mu Rwanda, iyi ngiyi akaba ari raporo igaragaza amategeko y'igihugu.

Umugabo uri mu marembo ya gereza yambaye ingofero isa nk'ironji n'umupira w'umweru, hirya ye hari abacungagereza babiri bigaragara ko asoje igihano cye akaba agarutse mu gihugu ahetse igikapu yambaye n'inkweto z'umweru.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame urimo uratanga imbwirwaruhame ari ku indangururamajwi, inyuma ye hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda risa ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umugabo w'umucamanza w'igikara wambaye ikanzu y'umutuku, karuvati y'umukara, n'ishati y'ubururu. Akaba nta musatsi na muke afite inyuma ye hari urukuta rw'umweru, bakaba ari abantu bashinzwe kuburanya abanyabyaha.

Abantu bari mu rukiko bambaye amakote imbere, hari umucamanza nawe wambaye ikote, n'umugabo umwe uhagaze ufite indangururamajwi, imbere har’icyuma gishinzwe gucurangwaho umuziki.

Umugabo wambaye imyenda y'abacamanza y'umutuku, n'amarinete, akaba ari igikara, inyuma ye hari urukuta ruteyeho irangi ry'umweru, kandi akaba na we ari kumwenyura.

Imodoka ya Polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda, iparitse mu muhanda w'amabuye hirya yayo hari indi modoka iparitse y'umukara, ndetse hari n'ibiti biri mu mashyamba, akaba ari ku masaha ya kumanywa.

Icyuma cy'umutuku kizwi nka kizimyamwoto gishinzwe gutabara ahantu hatewe n'inkongi y'umuriro kikaba giteretse mu nzu isizemo irangi ry'mweru ku nkuta.

Imodoka ya polisi y'umukara, ikaba itwarwamo abanyabyaha ndetse n'abandi bantu bakurikiranyweho ubugizi bwa nabi, iri kugendera ku muhanda w'umukara, hirya hari n'ahantu hashashe amabuye.

Ku inzu y'ubucuruzi hegamyeho inzego zikozwe mu cyuma, zisa ibara rya oranje ndetse n'urugi rusa ibara rya oranje, hirya yaho hari imodoka yo mu bwoko bwa rava.

Inyubako nini baragaragaza ko iherereye Kibagabaga Kigali kandi barerekana ko iri kugurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu iki ni ikintu gishyirwa ku nzu cyangwa se gishyirwa ahantu umuntu ari kugurisha agamije ko abantu babona icyo agambiriye cyangwa se bamenya ko niba agiye kugurisha bamenya agaciro , igenagaciro ry'icyo kintu ashaka kugurisha .

Icyuma cy'umutuku kiriho ihombo rishinzwe kuzimya, bacomeka kuri kizimyamwoto, nuko bakabasha kuba bazimya umuriro, kiri mu ibara ry'umutuku, bacyomeka ku nkuta z'inzu zihuriramo abantu benshi.

Abakozi bashinzwe kuzimya umuriro bambaye imyenda yabugenewe bafite ihombo rirerire ry'umutuku ritwara amazi agenda akazizimya ahantu hateye inkongi y'umuriro, hirya hari umuturage wambaye umupira w'umutuku akaba yicaye hasi.

Igisanduku kibikwamo ibikoresho byo kuzimya umuriro cy'umutuku bacyomeka ku rukuta mu gihe habaye inkongi y'umuriro abantu bahita bihutira gufungura kino gisanduku barangiza bakajya kuzimya iyo nkongi.

Uyu ni umupira bacomeka ku cyuma gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, hakaba hari n'akapa gatoya kari mu ibara ry'ubururu, k'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, bashishikariza abantu kwaka inyemezabwishyu igihe cyose baguze ikintu icyo ari cyo cyose.

Umuhanda ushashemo amabuye ndetse na kaburimbo, hari abapolisi bambaye amajire y'imvura, hakaba hari n'umukozi ucuruza amayinite y'ikigo cya eyateri.

Inyubako ndende iri mu ibara ry'umweru n'ivu, imbere yayo haparitse imodoka z'abashinzwe umutekano za polisi, hari n'umugabo uri kugenda ku mabuye ashashe hasi.

Abashinzwe umutekano bo mu Rwanda bambaye neza cyane imyenda isa neza, irimo ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi cyerurutse, bakaba bashinzwe umutekano wo mu muhanda.

Umugabo uri kumwe n'umugore bose bambaye amadarubindi bicaye mu nteko ishingamategeko, imbere yabo hari imeza ndetse n'amazi ari mu ducupa bicaye ku ntebe z'umukara aho bari gutanga ibitekerezo byabo.

Perezida Paul KAGAME afite urupapuro rw'umweru akaba arimo aritora, mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho yari ahanganyemo n'abandi bagabo babiri.

Abaturage barimo baramamaza ishyaka ryabo ryitwa PR risa ibara ry'umuhondo n'icyatsi, hari amahema y'umweru ndetse n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki.

Perezida Paul Kagame na madame bicaye mu nzu, aho bagiye gutanga kandidatire yo kuyobora iki gihugu cy'Urwanda, bakaba bari kuyiha umukuru w'itora witwa Oda Gasinzigwa.

Abayobozi bari kurahirira u Rwanda bafashe ku mabendera y'igihugu cy'u Rwanda hasa ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi imbere ku rukuta hari inyakiramashusho nini cyane iri kwerekana iki gikorwa.

Perezida Paul KAGAME wa repubulika y'u Rwanda, yambaye umupira w'umweru w'ishyaka rya FPR inkotanyi ayoboye, inyuma ye hari abasirikare bagenewe kumurinda.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye imyenda iriho ibirangantego by'ishyaka rye ndetse ari kumwe n'umugabo munsi ye wambaye ingofero yanditseho pa na ka impine y'izina rye kandi nawe yambaye amadarubindi n'agapfukamunwa.

Aba ni abayobozi ba leta bambaye amakote harimo n'abagore bari kwifotoza, bafata ifoto y'urwibutso bambaye imipira y'umutuku ndetse n'ikanzu isa ubururu n'abandi benshi cyane ntarondogoye.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arimo arasinya ko azayobora u Rwanda uko amategeko abimutegeka, ndetse yegeranye n'umugore we Janette wambaye umukenyero w'ubururu.

Abaturage benshi cyane bahagaze ku murongo, bigaragara ko ari mu gitondo cya kare bitabiriye amatora ya Perezida wa Repubulika, imbere ku nkingi z'ibikuta hari ibitambaro bitatse mu mabendera y'u Rwanda.

Urupapuro rugaragaza abakandida batatu biyamamarije kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda, hakaba harimo perezida wa Repubulika Paul Kagame, ari na we wabashije gutsindira uyu mwanya.

Kwiyamamaza kwagenze neza umwaka ushize aho hari hari abakandida batatu bahanganiye uyu mwanya wa perezida wa repubulika uyu ni umwe mu bakandida biyamamazaga kugira ngo bayobore iki gihugu.

Idarapo rya efuperi inkotanyi akaba ari umutwe wa politiki ukorera mu Rwanda uyobowe na perezida wa repubulika paul kagame rikaba rishinze ahantu hari umuyaga riri kwizunguza.

Perezida Paul Kagame ari kwiyamamariza manda ya gatanu yo kuyobora u Rwanda, inyuma ye hari abaturage benshi bamwishimiye n'imbere hari umusirikare wo mu ishami ry'abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu.

Inyubako ya leta ikoreramo abasenateri, irimo indangamashusho nini cyane ndetse bakaba ari abantu bashinzwe gutora amategeko no kuyageza ku baturage mu gihugu.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye ishati y'umweru n'amadarubindi y'umukara, ateze intoki hejuru arimo arapepera abantu, ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza n'umuryango wa RPF Inkotanyi.

Uyu ni umukandida wiyamamarizaga kuyobora repubulika y'u Rwanda, akaba yitwa Mpayimana Philippe yambaye ishati y'umweru hirya ye hari n'umukobwa wundi wambaye umupira w'umweru ari gushyira agapapuro k'itora mu gasanduku.

Ni ku masaha ya mu gitondo cya kare, hari abantu batonze umurongo, bitabiriye amatora ya perezida wa repubulika, hakaba hari umugore uhagaze mu muryango, hejuru ye hari amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, yiganjemo icyatsi, umuhondo, n'ubururu.

Ahantu haparitse moto zo mu bwoko bwa refani ziteye irangi ry'ubururu hirya hari umugore wambaye ibitenge nk'umucuruzi w'imyenda ucigatiye imyenda mu ntoki.

Aha ni muri gare yo mu mujyi haparitsemo bisi nini cyane iri mu ibara ry'ubururu, umweru inyuma yaho hakaba hari ubwiherero rusange bukorerwamo n'ikigo cya polisi ndetse n'abandi baturage bakaba babwifashisha.

Bisi nini cyane ishinzwe gutwara abagenzi, isa ubururu n'umweru, ikaba itwaye abantu bicayemo imbere, inyuma yayo hari n'indi bisi bisa ndetse no mukundi kuboko k'umuhanda hari dayihatsu y'umweru irimo iragenda.

Igikamyo cy'umweru gifite amapine y'umukara bigaragara ko kirimo kiragenda mu muhanda wa kaburimbo, ruguru yacyo hari ahantu habugenewe ha sitasiyo ya esanse.

Moto yo mu bwoko bwa refani isa ubururu iriho shitingi y'umukara iri mumuhanda wa kaburimbo inyuma yayo hari ni'bindi binyabiziga birikuza biyikurikiye hirya hari umugabo wambaye ipantaro y'umutuku.

Bisi ya kwasiteri y'umweru irikugendera mu muhanda wa kaburimbo, hirya hari amazu y'amaduka ndetse n'amazu bakiniramo urusimbi, hakaba hari n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka y'amapine atatu iri mu muhanda wa kaburimbo, imbere hari igiti kinini cy'inganzamarumbo n'umuturage urimo uratambuka hirya akaba ari mu muhanda wa kaburimbo akaba ari ku masaha ya kumanywa.

Imodoka nini cyane y'igikamyo, isa ibara ry'umuhondo; ikaba itwara gaze cyangwa amavuta bifashisha mu guteka, imbere yayo hari umukarani wambaye igisurubeti.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso isa ibara ry'icyatsi iriho shitingi y'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo. Kuruhande rwaho hari ibiti ndetse na shitingi zisa icyatsi.

Kwasiteri y'umweru irikugendera mumuhanda wa kaburimbo, irimo abagenzi kandi n'imbere yayo hari umugabo wambaye ikoboyi n'umupira w'umukara urimo uratambuka.

Imodoka y'igikamyo gifite ikizuru cy'umweru ndetse n'inyuma hari ikigega cy'ubururu kibikwamo amazi, iri kugendera kuri kaburimbo umuhanda w'umukara, hirya hari inzira y'abanyamaguru banyuramo.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatso y'umweru iriho shitingi hejuru hakaba hari n'abaturage bayegereye, ku ruhande mu muhanda w'umukara irimo iragana imbere hirya hari umunyonzi w'igare.

Sha ni muri gare ya Nyabugogo haparitsemo ikibisi kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru iruhande hakaba hicaye umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya MTN wambaye akenda gasa umuhondo .

Umuhanda ku manywa harimo ibimodoka bibiri binini cyane byabugenewe mu gutwara imizigo imwe yegeye imbere ikaba irimo amatafari yo kubakisha ku mihanda isa ibara ry'umutuku.

Inyandiko ibaza umusoro ku nyungu z'ubukode ni iki? umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa ku nyungu umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu Rwanda hakaba hasi hariho imyirondoro wabonaho abashinzwe imisoro namahoro mu Rwanda.

Ni urusisiro rw'imihanda, aho abamotari baparika moto zabo mu masaha ya n'ijoro, hakaba hari icyicaro cya emutiyene cyo mu mujyi wa Kigali ndetse bikaba binemewe ko hano ho abamotari baza bakahaparika.

Imodoka nini itwara abagenzi rusange, iriho ibyapa byamamaza banki y'abaturage, biri mu ibara ry'umuhondo, n'icyatsi, n'umweru, iyi bisi ikaba itwara abantu bageze mu ijana.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye inkweto za siripa, hirya y'aho hari abamotari batwaye abagenzi, ndetse n'igikontinneri kibikwamo ibintu bagenda bagemura hirya no hino.

Umumotari utwaye umugenzi wambaye igitenge, hirya hari bisi ya kwasiteri ikaba isa ibara ry'umuhondo n'umweru, hakaba hari n'ibiti hejuru ku mukingo ndetse n'inzu y'urusengero ruri kuri uwo mukingo, hakaba ari n'umuntu uri gufata ino foto igicucu cye.

Muri gare ya Nyabugogo, haparitsemo kwasiteri yanditseho sitera, akaba ari imodoka zikunda kujya mu ntara y'Iburasirazuba, imbere yayo hari abakarani bambaye imyenda y'ubururu.

Ibiti biri mu muhanda imbere yabyo hari imodoka ya toyota y'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho ndetse na televiziyo Rwanda ikaba irimo irajya mu kazi mu muhanda w'umukara.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihasu y'umweru, irimo shitingi n'umuntu wicaye mo imbere, iri kumutwara akaba ari mu muhanda w'umukara, hirya hari ibiti biri mu ishyamba.

Imodoka zo mu bwoko bw'ibikamyo, dayihatsu, ndetse na fuso, biri mu marangi y'umweru, kandi inyuma hakaba hari shitingi y'umukara, iziritse ibicuruzwa.

Ikigorofani kiriho amapine y'imodoka yashaje nacyo ubwacyo kikaba cyarashaje kiri mu ibara ry'umutuku, bagifata bifashisha gutwara ibicuruzwa birimo ibitoki amagazi y'inzoga ndetse n'ibindi.

Bisi nini irimw'ibara ry'umweru ubururu n'umukara ikaba iparitse muri gare ya Nyabugogo ndetse ni ku masaha ya kumanywa aho bigaragara ko nta mugenzizi uri kwinjiramo.

Imodoka ya hoho y'umutuku iri kugenda mu umuhanda w'umukara hirya hari shitingi z'icyatsi ndetse n'ibiti by'icyatsi hakaba hari umuturage uri kugenda muri uyu muhanda nipoto y'amashanyarazi y'umweru

Muri gare ya Nyabugogo harimo bisi nini isa icyatsi ubururu umweru y'ikigo cya ritiko, imbere yaho hari ibirayi biri mu mifuka ndetse n'abakarani bashinzwe kubiterura.

Abamotari benshi cyane baparitse, bambaye ijire y'umuhondo isa n'ubururu, hirya y'aho hari icyapa cya emutiyene akaba ari sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda.

Imodoka ziri mu muhanda harimo igendera ku mapine atatu, isa ibara ry'ubururu, imbere yayo hari umumotari wambaye ijire y'umuhondo n'ubururu. Bari mu muhanda wa kaburimbo, hirya yaho hari umusozi muremure.

Imodoka z'amavatiri zishinzwe gutwara abantu hirya no hino mu gihugu, hari amabuye ashashe hasi ndetse n'umuntu urimo uratambuka, ni mu mujyi ku nyubako ndende ya mbere m'u Rwanda, hakaba hari n'icyapa cyamamaza ko bacuruza murandasi.

Ibiti biri mu ishyamba, imbere yabyo hari igikamyo cya hoho gisa umutuku, kirimo kirerekeza imbere, hakaba hari n'indi modoka biri kubisikana y'ivatiri isa umweru.

Amasaha ya ku manywa hari moto yo mu bwoko bwa lifani iri guca mu muhanda wa kaburimbo ari yonyine hirya yaho hari ishyamba rinini rigaragara ko nta muntu urimo.

Mu mujyi wa Kigali ahantu abantu bagenda n'amaguru nta modoka zemerewe kuhaca imbere hari inyubako isa ibara rya oranje kandi hari n'abantu benshi barimo barabisikana muri iyi nzira.

Mu kabari karimo umuzungu n'umwirabura bafite mudasobwa imbere yabo bakaba hari ibyo bari kuganira, ndetse n'inyuma hari abaturage bigaragara ko ari umwirabura n'umuzungu bari kuganira.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwamakuza ahantu hagendaga imodoka, ariko ubungubu bakaba barahagize ah’abagenzi b'amaguru bagenda, hashashemo amabuye hasi ndetse haba na murandasi y'ubuntu.

Abana b'abazungu batwaye ibinyamitende by'amapine abiri bakaba bari ahantu hazwi nko ku rubuga rwagenewe kudacibwamo imodoka mu mujyi wa Kigali aho abantu bahura bakidagadura.

Ikibuga gikinirwamo umukino wa tenisi hashashemo ibitaka hasi, hirya hari ahantu hicaye abantu baba baje gufana harimo n'umugozi w'umweru utandukanya iki kibuga mo kabiri.

Iki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda kiri mu ibara ry'ubururu, hakaba harimo akamenyetso kerekana ko imodoka zigomba gukomereza ku ruhande rw'iburyo, gikunze gukoreshwa mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gisobanura ko ugomba guhagarara gatoya, kiri mu mabara y'umweru n'umuzenguruko w'umutuku hariho igishushanyo cy'umuntu urimo uragenda bikaba bigaragariza abatwaye imodoka ko aho hantu hari abaturage.

Icyapa cy'umweru cyanditseho kaga magana magatanu na rimwe sa ta akaba ari izina ry'umuhanda wo mu mujyi wa Kigali hakaba hari n'inyubako inyuma barimo barubaka.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ko aha hantu ugomba kuhazenguruka kiri mu ibara ry'ubururu umuzenguruko w'umweru, kikaba gishinze mu busitani bwegereye umuhanda mutoya.

Icyapa cyo mu muhanda kiriho umwana urimo urambuka umuhanda. Ubuso ni umweru, umuzenguruko ni umutuku, iki cyapa gishinze mu byatsi, hirya hari abamotari bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Icyapa cyo mu muhanda kiriho umugabo ufite igitiyo gisa umukara ubuso ni umweru umuzenguruko ni umutuku kandi nacyo ubwacyo gifite ikinyampande cya mpandeshatu.

Icyapa cy'umuhondo cya mpande enye gicuritse, kirimo akarongo k'umukara kerekana icyerekezo cy'imbere. Hagati harimo akadomo k'umutuku kerekana ko hano hari ibyago, akaba ari kimwe mu bikoreshwa mu mategeko y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara urimo ibyapa byo kwamamaza hirya hari igorofa rigeretse kane riri mu irangi ry'umweru ndetse hakaba hari n'ibiti byinshi cyane bihakikije.

Icyapa cy'umuhondo, cyo mu muhanda, cyerekana ko imodoka zinyuranamo, zikatakata. Hakaba harimo, n'ibara ry'umukara. Kikaba nacyo kimeze nka mpande enye itambitse.

Icyapa kigaragaza nimero y'inzu y'ijana na mirongo inani na gatanu cya kigali ku muhanda wa gatanu kiri ku kibambasi giteyeho irangi ry'ivu ndetse n'irangi ry'umweru aho wifashisha urangira umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo inyuma hari ubusitani n'ibiti birebire bigaragara ko ari ku nzu ya leta, hari isuku ihagije kandi hari n'icyapa cyo mu muhanda kigaragaza amerekezo.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kikwereka ko imbere yawe hari akanyaru, Huye, Muhanga utwo ni uduce waba uri kuganamo. Ku rundi ruhande waba uri kujya muri Ruhango n'ahandi hitwa Kinazi ni mu gihugu cy'u Rwanda.

Icyapa cyo mu muhanda kiriho ishusho y'abana babiri b'umukara barimo barambuka ndetse ubuso ni umweru, umuzenguruko ni umuhondo giteye nka mpande eshatu gishinze ku cyuma.

Icyapa cy'amerekezo cyanditseho kkk magana ane na mirongo itatu n'icyenda st akaba ari izina ry'uyu muhanda runaka wo mu mujyi wa kigali muri kicukiro .

Icyapa cyo mu muhanda cya mpandeshatu icuritse kirimo ibara ry'umutuku n'ubuso bw'umweru hakaba hariho n'igishushanyo cy'umugabo urimo uragenda kikaba giteye mu busitani.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko ni umutuku ubuso ni umweru, harimo akamenyetso kagaragaza ko hano hantu byemewe kuhakatira.

Icyapa cya mpande eshatu, ubuso ni umweru, harimo umugabo w'umukara, ufite igitiyo, uri kugishinga mu mucanga. Iki ni icyapa kigaragaza ko imbere hari gukorerwa ibikorwa remezo by'igihugu.

Umugabo ufashe mu kiganza umwana, bari mw’ibara ry'umukara, mu buso bw'umweru, umuzenguruko ni umutuku, kandi ni mpande eshatu z'icyapa cyo mu muhanda.

Ibyapa biriho inyuguti ya pa bikaba biri mu kinyampande kimeze nk'ikizigaba biteretse ahantu hadashashe amabuye, inyuma yabyo haparitse imodoka y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo uri ahantu hacuramye hirya yaho hari amazu afite ibisenge bisa umutuku, hakaba hari n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi inyuzeho insinga.

Igipangu kirimo inzu y'igorofa igeretse kabiri iteye irangi ry'umuhondo n'umukara kandi ni amacumbi yakira abantu bose baje bayagana bafite amafaranga.

Karitsiye irimo inyubako nyinshi zisa, hejuru hateretseho ibigega by'umukara, imbere har’inzu ya cadastere isize irangi ry’icyatsi, igisenge kiriho amabati atukura ameze nk'amategura kandi habakaba hari n'ibipangu bihakikije.

Muri banki harimo abantu benshi batonze umurongo; uko bigaragara serivisi zaho ziri kugenda nabi; abantu bamaze igihe kinini bahagaze kuko babaye benshi cyane; kandi abakozi ba banki hari igihe aba ari bakeya.

Inzu y'igorofa igeretse kabiri ikaba iriho ibirahuri by'umukara, iteye irangi ry'umweru hirya hari igiti kinini cyane gisa icyatsi, hakaba hari n'umutaka w'umutuku uriho igikorwa cyo kwamamaza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo kugenderamo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, uyu muhanda ni mwiza ukikijwe n'ibiti by'amatara biwucanira ni mugoroba hatabona ndetse ukagira aho abanyamaguru bambukira, umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye, ndetse hirya hakaba hari ahapavomye, aho ariho abanyamaguru bagendera.

Inzu y'igorofa rirerire isa umukara ndetse n'umweru hariho icyapa kinini cyane kiriho inzoga zo mu bwoko bwa sikoro ebyiri hasi yaho hakaba hari ubusitani bwiza.

Inyubako y'igorofa rirerire, igeretse inshuro ebyiri, ikaba iteye irange ry'umweru ndetse n'irange ry'ivu, harimo ibirahure by'umweru. Imbere hari igipangu kihakikije, kiriho ikintu gisa icyatsi, kimeze nk'inzitiramibu.

Inzu y'igorofa isa umukara n'umweru hari n'igipangu kirekire hanze, inyuma y'igipangu hateye ubusitani ndetse hari n'ipoto y'amashanyarazi azana umuriro muri iyi nyubako.

Imodoka y'umutuku yegeranye n'indi y'umukara, hasi hakaba hari igiheri n'amabuye, akaba ari iz'abakerarugendo b'abazungu bahetse ibikapu, barimo barinjira mu nzu y'amacumbi.

Mu isoko rihurirwamo n'abantu benshi harimo imitaka isa icyatsi, umutuku ndetse igaragaza ibirangantego bya sosiyete ya infinigisi igurisha telefone n'iya eyateri ishinzwe itumanaho.

Inzu y'igorofa rirerire, igeretse kabiri, iparitseho imodoka nyinshi, imbere yayo hakaba hari n'amabuye asashe hasi n'ibiti biri imbere, ku ruhande hari n'indi nyubako irimo irubakwa.

Uyu ni umuhanda w'ibitaka imbere yaho gato hakaba hari inzu y'igorofa isize irangi ry'umweru; ikaba yegeranye n'indi nzu yo mu bwoko bwa cadasiteri ifite ibara risa nk'ivu.

Uyu ni umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ishati y'ubururu ari kugenda mu muhanda w'ibitaka ku ruhande hari ibyatsi, n'inyuma ye hari imodoka y'ubwoko bwa pajero.

Inzu y'igorofa nziza cyane iteyemo ibiti n'indabo, ikaba isize irangi ry'umweru n'irindi range risa nk'icunga ryererutse ndetse no ku mpande zayo hari ibiti birebire cyane.

Inzu z'amanegeka nyinshi cyane, ziri ahantu muri karitsiye, hirya hari ishyamba ririmo ibiti byinshi byakoze igihuru, uko bigaragara aha ni muri karitsiye itaratera imbere.

Ikiraro gica hejuru; munsi hari umuhanda wa kaburimbo; hakaba hari n'icyapa cyo mu muhanda kirimo inyuguti ya P; bishatse kuvuga ko hano hantu hatemerewe kuba wahaparika ikinyabiziga cyawe.

Umuhanda w'umukara uri gucamo moto, hirya hari ibiti biwukikije n'amapoto ajyaho amatara yo ku muhanda, hari moto ziriho umumotari utwaye abagenzi mu mujyi wa Kigali.

Umuhanda wa kaburimbo hejuru hakaba ari ikiraro cy'ahazwi nko ku Kinamba gikikijwe n'ibiti byinshi cyane birebire, ukaba ukinyuraho ugana mu mujyi muri gare.

Ikiraro cy'ahitwa ku Kinamba, hari imodoka y'umukara, iri guca mu muhanda w'umukara, ndetse n'ibiti byinshi cyane, bihakikije. Uyu muhanda uwucamo iyo uvuye muri gare ya Nyabugogo, ugana Kicukiro.

Umuhanda urimo imirongo y'umuhondo ndetse n'indi mirongo izwi cyane y'umweru n'umukara ,abantu banyuramo mu gihe cyo kwambuka umuhanda ikaba ibarinda kuba bagongwa n'ibinyabiziga byose bibonetse.

Aha ni mu masangano y'umuhanda wa kaburimbo, harimo amarange y'umweru abanyamaguru bakunze kwifashisha bambuka kugira ngo babe bafite umutekano n'ubudahangarwa ku binyabiziga biba bishaka kubagonga.

Abamotari bahagaze ahantu habugenewe haba hategerejwe ko abanyamaguru bambuka mu mihanda y'umweru yabugenewe, kugira hatagira impanuka iba hano hantu, hirya hari ibiti by'amashyamba birebire.

Mu nsisiro z'imihanda migari harimo imirongo y'umweru ifasha abagenzi n'abantu bagenda n'amaguru kuba bakambuka umuhanda bikabarinda ko hagira imodoka ibagonga ku buryo bworoshye.

Mu ihuriro ry'imihanda harimo moto ebyiri bambaye kasike ndetse bambaye n'amajire y'umuhondo n'umweru, aha ni ahantu imodoka zose zigenda zigahagarara zikabisa izindi zigatambuka.

Umuhanda wa kaburimbo unyuranyuranamo n'uwo hejuru nawo w'ikiraro, hakaba hari moto ebyiri ziri kugenda ndetse n'igikamyo kiri imbere kirimo shitingi isa ubururu.

Mu muhanda mu masaha ya nijoro hari moto icanye amatara, hirya hari ubusitani n'ikiraro kirekire giherereye Kicukiro santire, hakaba hari n'inyubako ndende itatseho amatara.

Abantu bari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru, hirya yabo hari ubusitani burimo icyapa cy'ubururu, ndetse hakaba hari n'ikiraro kiriho ibinyabiziga biri kugenda binyuranamo.

Ibiti birebire by'icyatsi inyuma yabyo hari umusozi w'ishyamba ryo mu mujyi hejuru ku gasongero hakaba hari inyubako y'igorofa y'umujyi wa kigali.

Iki ni igikamyo cyo mu bwoko bwa dayihatsu, gifite shitingi y'umukara, inyuma kiri kugenda kigana imbere mu kerekezo cyo kuhande, hari na moto iri kugenda, aho igikamyo kivuye, imbere ya moto hari imodoka ya toyota, biri kwerekeza mu kerekezo kimwe.

Icyapa cyo mu muhanda, kiriho ibara ry'icyatsi, rishushanyijemo umuntu uri kugenda. Hirya hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo igisa ibara rya kaki n'amapine y'umukara, hakaba hari n'ubusitani bukikije uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu Rwanda usa neza cyane, urimo uracamo imodoka nyinshi zitandukanye ndetse na moto zitwaye abagenzi, akaba ari mu masaha ya nyuma ya saa sita ntabantu benshi bari mu muhanda.

Uyu ni umuhanda wo ku Kinamba, hari amamoto menshi ari kunyura munsi, ndetse n'umuturage wambaye umupira utukura, icyo kiraro kikaba gifasha ibinyabiziga kunyuraho bidateje akavuyo mu muhanda.

Insinga ziri guca ku mapoto y'umuriro w'amashanyarazi hakaba hari umuhanda w'umukara wa kaburimbo, hirya y'aho hateye ubusitani kandi ni ku manywa hari n'inzu zo mu bwoko bwa kadasiteri.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro isa kaki, akaba ahagaze ahantu bategerereza imodoka muri gare, hari umuhanda wa kaburimbo, inyuma ye hakaba hari n'abaturage benshi cyane nabo bategereje imodoka.